Inyubako iri ahantu hisanzuye, ikagira umutaka uri hanze hacururizwamo serivisi za MTN. Ndetse iyi nyubako, ni ivuriro kuko hari icyapa kibyanditseho kibigaragaza. Ikagira n'amarembo manini binjiriramo.

Inyubako isakaje amategura ndetse ikaba iriho umurasire w'izuba, hariho ibyapa bya Eyateri bamanitse inyuma y'iyo nzu ndetse hahagaze na moto, hari urutoki inyuma y'iyo nyubako.

Mu cyumba cya MTN haragaragaramo abagabo batatu n'umugore, batatu muri bo bambaye amajiri y'imikara ari mu ibara ry'umuhondo ndetse undi na we afite impamyabumenyi mu ntoki yambaye na we ijiri.

Abantu bahagaze mu muhanda harimo abambaye amajeri ya Airtel bigaragara ko ari abacuruza amayinite ndetse hahagaze n'abandi bantu batandukanye, bamwe bari ku magare abandi bayahagaritse bari kwitegereza ahantu hamwe runaka.

Umugabo wabonye impamyabumenyi, ari kumwe n'abandi bagabo, bari kuyimuhereza ndetse hari n'abandi bicaye aho, muri iryo hema nabo bambaye impuzankano zitandukanye.

Abagore benshi bunamye ahantu ku bitanda byanikaho ikawa, bari gusanza ikawa ngo zume ku zuba, bigaragare ko ari mu ruganda ruzitunganya.

Inyubako ifite irangi rivanze umweru n'ubururu ndetse hakaba hanze hari ikibuga n'ahantu hari ibyatsi, inyuma y'inyubako hari ibiti bitandukanye birebire n'ibigufi.

Mu ihema ritatse neza ndetse harimo ibyatsi n'intebe z'umweru, harimo abantu benshi bicaye kandi ubona ko bategereje ikigiye kuhabera.

Abantu bahagaze bifashe bitandukanye, hagati imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, arahagaze bose ni we bari kureba, bigaragare ko afite icyo ari kubabwira bahuriyeho.

Mu murima w'ibigori harimo umugore uri gutambuka mu nzira ufite ikayi ndetse afite n'agakaramu mu ntoki, yambaye imikenyero irimo amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'agapira yambayemo imbere k'umukara.

Abantu benshi bahagaze, abandi barunamye ahantu hasutse ibigori byinshi byumye, bamwe bari kubihungura bunamye, abandi bahagaze, bigaragara ko ari ahahunikwa umusaruro wibigori.

Abantu bakuze bicaye ku ntebe z'imbaho ndetse imbere yabo hari abandi babayoboye hakaba n'undi umwe uhagaze mu nguni utabegereye biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi bicaye hamwe mu kidari cyubatse, harimo abo mu nzego z'umutekano, bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi ndetse harimo n'abasore bicaye imbere, bambaye imipira y'imikara isa.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama, imbere ku meza y'abayobozi hicaye abagabo batanu, imbere yabo ku mezaeza hari amacupa arimo amazi yo kunywa.

Amahema yubakiye ndetse ubona ko biteguye umugeni ukomeye. Hakaba hari amabara atandukanye agize ibendera ry'u Rwanda. Kuri ayo mahema hari nutundi tuntu dupanze twesitaye hejuru.

Umugabo uri imbere y'imbuto z'inanasi, wambaye ishati y'ubururu. Hari abandi bagabo benshi bari kumwitegereza, ndetse bigaragara ko ari umushoramari cyangwa ari umuntu ukunda gukora cyane. Hakaba hari n'indabyo, inyuma y'abo bantu hari amahema.

Abantu bari mu masiganwa y'amagare bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'ingofero. Bari ku murongo, hari nabaje kubareba. Hakaba n'akazu gacururizwamo serivisi za MTN, hakaba n'inyubako iruhande rwako kazu.

Abantu benshi bazengurutse ndetse hari umugabo uri imbere ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko afite icyari kuganiriza abo bandi. Harimo abambaye imipira y'ubururu isa ndetse hari inanasi nyinshi cyane zirambitse aho hantu bigaragara ko bari kwishimira uwo musaruro.

Akabati k'ububiko bw'amacupa, hateretsemo amacupa y'ibinyobwa bitandukanye, harimo ay'inzoga, ay'amazi ndetse hateretsemo n'ibirahure hasi, ubona ko byo nta binyobwa birimo.

Amakarito atenze ku murongo, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ni amakarito bigaragara ko harimo umuti woza amenyo, uzwiho ku izina rya Korugati.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye harimo iri mu macupa ndetse no mu makarito, harimo n'ibindi bicuruzwa nk'amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ububiko bw'ibiribwa bitandukanye, harimo abantu bane abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, umwe yambaye isengeri y'umweru akenyeye itaburiye imbere ye hari amafi menshi cyane.

Umubyeyi uhagaze mu nzu y'ubucuruzi, inzu irimo n'iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo indobo zirimo amandazi, ifu y'igikoma ndetse afite n'imineke ku kabati.

Intebe y'umweru ya palasitike idafite umuntu uyicayemo, nyamara inyuma yayo hari abandi bantu bicaye mu zindi ntebe, umwe yambaye inkweto z'umukara zifite imishumi y'mweru.

Iduka ricuruza imyenda myinshi itandukanye, harimo abakiriya barikwigera ndetse hari n'abandi bahagazemo bari kwitegereza, harimo n'ibiseke hirya ku ruhande.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, n'imiryango itatu iteganye, hanze hari intebe, hari indobo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Iduka rinini cyane ririmo ibicuruzwa harimo amajerekani, ndetse n'uducupa duto turimo amavuta hakabamo imifuka y'imiceri itondetse n'indi ifunguye batangiye gucuruzaho ,hakabamo amakarito ya biswi.

Ku nyubako nini cyane y'urusengero hahagaze abapadiri benshi n'abasenyeri ku murongo ndetse imbere yabo hari umuntu wambaye ikoti ari kugenda aberekera, hari n'indabyo zateretse ziri mu gitereko cyiza cyane.

Inyubako y'urusengero rushaje cyane bigaragara ko batakirusengeramo barufunze. Inyuma yarwo hari urugi ruharambitse rwegeretse ku rusengero, biragaragara ko imbuga uko isa batakihasengera. Ikikijwe n'ibiti ndetse hari na jaride zirimo ibyatsi bitandukanye.

Abagabo bambaye neza ndetse harimo abapasiteri bambaye amakoti. Bafite impapuro bamwe amakayi mu ntoki, bari mu nyubako nziza cyane. Ifite n'ikizimya umuriro mu gihe habayeho inkongi y'umuriro.

Icyumba kinini cyane kicayemo abantu batandukanye, biganjemo abambaye udupfukamunwa. Hahagazemo umugore wunamye ari kwerekera umukecuru uburyo bakoresha telefone.

Inyubako y'urusengero, bigaragara ko batakiyisengeramo kubera ko itari yuzura. Yubatswe vuba ntibari bayisiga amarangi, iyo nyubako isakaje amabati asize irangi ry'umutuku.

Abantu benshi bahagaze ku murongo bifotoza, ni abagabo batatu n'abagore babiri, bifashe ku maboko bisa nk'aho nyine bararikiye umuntu uri kubafotora.

Icyumba kirimo abagore batandukanye ndetse n'umugabo, hari umugore ufite telefone imwe igezweho yayifunguye, yinjiye muri sisitemu ari kumva ibirimo kuhavugirwa.

Inyubako yubatse mu buryo bwa muvirinngu, ifite amabati y'umutuku ndetse ikagira n'agasongero hejuru, iruhande rwayo handitseho ko ari umuryango usengerwamo n'aba ADEPR.

Abantu benshi bari mu nzu y'imyidagaduro, imbere ku rubyiniro hari abantu bari kubasusurutsa b'abahanzi bari kuririmba, na ho abateze amatwi ndetse n'abakurikiye barishimye bashyize amaboko hejuru.

Ku nyubako y'urusengero ndetse rufiteho umusaraba hejuru, hakaba ibiti bibiri biteye iruhande rw'umuryango ndetse n'ibindi bizengurutse inyuma, hari ikibuga ndetse harisanzuye cyane.

Icyapa kinini cyane kiriho umusaraba utukuye, imbere mu mpande zawo harimo udukoni tugiye dushabaguyeho, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara manini ndetse hasi umutuku, ayo magambo ni Karitasi Rwanda.

Inyubako nini cyane igeretse kabiri, haruguru yayo hari iyindi itageretse isakaje amabati atukura, hari inyubako zizamutse ndetse n'amasikariye azamuka imbere y'izo nyubako, hari n'ubusitani bwiza cyane.

Icyumba kirimo intebe z'imisego zifite ibara ry'umweru ririmo uturongo n'utudomo twinshi tw'andi mabara , hakaba n'ameza agezweho hari amarido y'amoko atandukanye, imwe ijyaho iyo bwije n'indi bashyiraho ku manywa ,hakaba harimo n'amatara ari kwaka.

Abayobozi bambaye amakoti, bose ubona ko biteguye, bavuye mu nyubako basohoka, bahagaze neza bemye ndetse harimo uwambaye imyenda y'imyeru, uretse inkweto z'umukara n'umukanda w'umukara gusa.

Inyubako igeretse kabiri, ifite ibirahure bibonerana. Ndetse hari n'insinga zijyana umuriro muri iyo nyubako, ziri kwinjirayo. Hakaba ikirere cyiza gifite ibicu by'umweru n'ubururu. Hafi yaho hari umukingo bigaragara ko watengutse.

Icyumba kinini kisanzuye cyane, kirakinguye, giteguyemo intebe n'ameza, harimo n'igitanda kinini cyane gishashe neza. Ariko nta muntu uryamyemo n'amatara yo muri icyo cyumba aracanye yose ari kwaka.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa kwa muganga, imyinshi muri yo irambitse mu bikombe ndetse hagiye harimo n'ibiyiko bigaragaza igipimo, ntabwo ipfundikiye iteretse ahantu hamwe ariko hasukuye.

Abantu benshi bahagaze mu muhanda harimo abatwaye amagare, abayahagaritse ndetse hari n'abari gupakurura imizigo mu modoka, imizigo y'imifuka yuzuye biragaragara ko ari ahantu ku isoko.

Mu isoko rigurishirizwamo imboga n'imbuto, harimo: inyanya, hakazamo voka, hari imineke n'imitoya ya kamarasende, harimo pavuro, ibitunguru, karoti n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko ririmo ibitoki byinshi, bimwe biribwa ndetse hakabamo n'abantu benshi ubona ko hari isoko rishyushye. Hari moto, amagare ndetse n'inyubako iri hafi aho.

Ikibuga kigari kiberamo isoko, hamwe hatwikirije amashitingi ahandi ntago hatwikiriye, hari inkweto z'amoko atandukanye ndetse hari n'ibindi bicuruzwa byinshi bikiri mu mufuka bataradandaza.

Mu isoko ry'ibintu byinshi bitandukanye, harimo abantu benshi ndetse n'ibicuruzwa byinsi, indobo, amashagi, imifuka, amakarito afunze ndetse hari ufite ibiraha mu ndobo, uri kugenda bizunguza, arebe ko yabona ayo kurya.

Ibase iteretse ku ntebe yuzuyemo amacupa arimo amavuta yo kwisiga ndetse n'indodo zikoreshwa zidoda, harimo n'utundi dukoresho nk'utuyugiro twifasha bayungurura ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Inyuma hagaze umuntu w'umubyeyi ukenyeye ibitenge bigaragaza ko ari kubicuruza.

Umugore wunamye uteze igitambaro gitukura ari kwanika imyumbati hasi n'imyumbati myinshi cyane, hirya ku ruhande hari abasore bahagaze bafite amagare bayahagaritse aho ngaho bari kumwitegereza ibyo ari gukora.

Inyubako igeretse gatatu ifite ibirahuri bibonerana by'umweru, ndetse hakaba hari ubusitani iruhande rwabyo n'ibindi biti biteye hirya yayo ahitaruye.

Icyumba kigali kirimo udupirizo hejuru mu gisenge ndetse hakabamo n'intebe zigezweho z'imisego n'ameza matoya ari hagati yazo ndetse ku ruhande hari n'amacupa y'amazi, hakaba hari n'imitako myinshi muri iyo nyubako.

Ubwogero bugezweho bwubakiye neza ndetse bufite amazi meza y'urubogobogo, hari ameza hariho ifunguro ku masahani, hari ibiryo bitandukanye ndetse hakabaho ibiyiko, amafuke n'ibyuma n'ikirahure, kirimo icyo kunywa.

Umumotari wambaye umupira w'umutuku, n'undi acyenyeye, yicaye kuri moto ndetse yahagaze mu muhanda, kandi harimo n'ibyapa biyobora abantu aho bambukira, ndetse hakaba hari n'icyapa cya Primusi kigaragara ko hacururizwa inzoga z'ubwo bwoko.

Moto ndetse n'umuntu uyitwaye uhetse undi, bose bambaye ibikasiki, bari kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo, hirya hari amajaride cyangwa se ubusitani buhinzemo indabyo ndetse n'imikindo.

Umusore uri ku igare rinini atwayeho abagore babiri, umwe w'inyuma ahetse umwana kandi ikindi bose bambaye udupfukamunwa bari kugenda mu muhanda, hirya yaho hahinze umurima urimo ibishyimbo.

Mu muhanda harimo moto itwaye umuntu ndetse hari n'abagore bari mu nzira y'abanyamaguru, bari kugenda baganira ubona ko bahuje urugwiro, hari indabyo ziri ku muhanda ndetse hafi aho hari n'inyubako zicururizwamo, hakaba n'ibiti harimo n'imikindo.

Moto iri kugenda mu muhanda, itwawe n'umuntu ndetse inyuma ahetse undi muntu wa kabiri, bose bambaye ibikasike. Inyuma yabo bahetse igitebo kirimo inkoko nyinshi cyane ubona ko batendetse ndetse hakurya yabo ku muhanda hari inzu ebyiri zubatse, ubona ko zikorerwamo ubucuruzi.